Inyubako nini ya Equity banke ifite amabara y'ubururu n'umweru, iganwa n'abantu benshi bashaka serivisi zo kubitsa no kubikura amafaranga.

Akazu ka emutiyene gatangirwamo serivisi zitandukanye zijyanye n'umuyoboro wa emutiyene, amadirishya yako yombi arafunguye, kagizwe n'amabara y'umuhondo ndetse n'utundi tubara dutandukanye.

Akazu ka Eyateri gatangirwamo serivise zitandukanye zijyanye n'umuyoboro wa Eyateri, mu muryango wako ari kwinjiramo umuntu wambaye ipantaro n'ishati ndetse n'isaha.

Abantu benshi batandukanye bamwe bicaye mu mahema abandi bahagaze, abahagaze ni bane harimo umugore wambaye agashati k'umutuku ufite idangururamajwi mu ntoki, yambaye ibitenge n'ingofero undi yambaye ikote ndetse hakabamo n'umugabo wambaye ikote n'ishati y'ubururu.

Akazu ka ekwiti banke gatangirwamo serivisi zitandukanye zitangwa n'umu agenti ukorana na ekwiti banki, kagizwe n'ibyuma aho gafite amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo imbere yako hari moto.

Akazu ka Eyateli gatangirwamo serivisi zitandukanye zijyanye n'umuyoboro wa Eyateli, ako kazu ku rugi rwako hariho ibikoresho bitandukanye bijyanye n'ibikenerwa mu ikoranabuhanga, ku ku kidirishya cyako hariho udutambaro, inkweto n'ibindi bitandukanye, inyuma yako hariho imodoka, ako kazu kari ku muhanda.

Umugabo wambaye umwambaro w'ubururu n'ingofero y'umutuku ari kwita ku nkoko zorowe mu buryo bwa kijyambere, aho zimwe ziba hasi izindi zikaba hejuru n'izindi zikaba hejuru y'izo, kandi ibiraro byazo bikaba byubatswe ku buryo zigenda zibona umwuka.

Umugabo munini wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara, afite indangururamajwi mu ntoki. Arikumwe n'abaturage bambaye imipira imwe n'uwe, ariko hari n'abandi baturage batambaye kimwe na we. Bahagaze imbere y'umusaruro w'inanasi.

Umugabo wambaye agapira k'ubururu n'ikote rya move, ari hagati y'abagabo babiri bambaye imipira y'imikara iriho ikirango cy'u Rwanda bari kumuha impamyabushobozi yakoreye mu mirimo ye. Hari n'abandi bagabo benshi batandukanye bambaye iyo mipira y'umukara ndetse n'abandi bambaye iy'ubururu.

Icyapa kinini kiriho ikirango cya hoteli kiri ku muhanda cyerekana ibintu byo kurya no kunywa, bishobora kuboneka muri iyo hoteli ibi bintu byiganjemo ibyo kurya ushobora gucyura, ibyo waririraho inzu nini wakoreramo ibirori ndetse n'ibindi.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye, ari ibyo kurya ndetse n'imyambaro. Harimo umumama useka neza, wambaye neza, wizihiwe. Ibi bicuruzwa imyenda iramanitse ndetse ibindi byo biri mu tw'etajeri tugiye dutandukanye.

inzu niini y'ubucuruzi irimo ibicuruzwa bitandukanye harimo amavuta yo kurya, amavuta kwisiga, ibyo kurya birimo amafu ndetse n'ibindi kandi ibyo bicuruzwa bikaba bipanze mu buryo bw'utuzu tuzu hakoreshejwe uduti.

Urusengero rwiza kandi runini rwubakishije amatafari ahiye rufite ibara ry'umweru, ku madirishya, ku nzugi ndetse no ku mpande zarwo, n'ahari umusaraba. Uru rusengero rusakaje amategura.

Abagore barindwi bari ahantu hateguye neza, bari muburyo bwo guhimbaza imana, mu kuririmba, umwe muri bo afite indangururamajwi, abandi bari kugenda bakurikirana umuziki.

Icyumba kinini gikorerwamo amasengesho, kirimo abagore n'abagabo bamwe bicaye, abandi bapfukamye bari gusenga, abicaye bicaye ku ntebe z'ubururu nziza, abapfukamye bapfukamye ku mikeka.

Abantu babiri bicaye ku ibaraza rya hoteri, aho umugabo yambaye agashati k'ubururu bw'umweru n'agakabutura, umugore yambaye ikanzu y'icyatsi. Umugore afite imisatsi minini, bose baricaye kandi bahusha ibirahure, bagaragara nk'abishimye.

Icyumba kinini kirimo ameza menshi n'intebe cyo muri hoteli. Icyo cyumba gifite amakaro hasi igitakazi ayo meza ateye ku buryo bw'indinganire ndetse nayo n'intebe zirakurikiranye.

Icyumba kinini kigizwe n'igitanda ndetse n'akameza aho igitanda gishashe neza n'amashuka y'umweru, ndetse n'icyo kwiyorosa gisa icyatsi. Iki gitanda gisa umutuku n'ako kameza gasa umutuku. Iki cyumba gifite inkuta z'umuhondo, ndetse n'amakaro hasi afite ibara ry'umuhondo.

Inyubako nini yubatswe neza ifite amakaro hasi n'amarangi meza y'umweru n'inzugi nziza zigezweho, ni hoteli yakirirwamo abantu batandukanye, bifuzamo serivisi zo kuriramo, gucumbikamo ndetse n'ibindi bitandukanye.

ahantu heza ho muri hoteli, hanze ho kunywera, HAshobora kwicaramo agatsiko cyangwa se abantu babiri, bafite ahantu heza habereye kuhareba, hari amabara y'ubururu ndetse n'umweru, hafite ubusitani bwiza bwitegeye aho mwaba mwicaye.

Hoteli nziza, igaragara neza, ifite ahantu heza hanze ho kunywera kandi hasakaye, ifite ubusitani butandukanye, hariho ubuteyemo ibiti by'amoko menshi atandukanye, ifite amatara maremare amurika iyo bwije kandi harimo n'inzu nini y'amatafari ahiye.

Urujya n'uruza rw'abantu batandukanye bari mu isoko bahaha kandi bagurisha ibicuruzwa bitandukanye, abagore bamwe na bamwe bikoreye amabase arimo imbuto ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, umugore ahetse umwana arimo aragurisha imyenda ndetse n'ibindi bicuruzwa.

Ihene nziza z'ibara ry'umukara ziryamye ahantu hadahingwa twakwita ikinani, ihene ni ebyiri zambaye ibiziriko mu ijosi ziri kumwe n'uziragiye wambaye bote.

Mu isoko habamo ibintu byinshi bitandukanye bicuruzwa, hariho umwana wikoreye ikirago, wambaye ipantaro y'ubururu n'agapira k'umuhondo gaciyemo uturongo, ibikoresho bitandukanye byiganjemo imyenda cyane cyane yambarwa n'abagore.

Ubucuruzi bw'imyenda itandukanye aho imyenda imwe igurwa irambitse hasi indi irambitswe hejuru. Mu irambitswe hasi harimo imyenda itandukanye cyane cyane iy'abana batoya. Mu myenda iri hejuru harimo imyenda y'abantu bakuru ndetse hakabamo n'udukapu tw'amasakoshi twitwazwa n'abakobwa.

Ubucuruzi bwo mu mahema aho ku isoko bashinga ibiti bagasakaza amahema bagashyiramo ibicuruzwa bitandukanye bimwe birambikwa hasi ibindi bigahanikwa hejuru mu bihanikwa hejuru harimo imyenda itandukanye nkiy'abagore ndetse n'iy'abagabo.

Umugore ukataje yerekeza mu isoko, aho yikoreye agatebo kariho imbuto nyinshi zitandukanye, ari mu muhanda imbere y'imodoka yerekeza mu isoko.

Umutaka wa MTN ukoreshwa n'umu ajenti wa MTN utarabona akazu ka MTN, uyu mutaka urinda umu ajenti wa MTN izuba ndetse n'imvura itari nyinshi, uyu mutaka ugizwe n'amabara y'umuhondo ndetse n'ibirango bya MTN.

Urujya n'uruza rw'abaturage bari mu isoko, ku miryango itandukanye aho bahaha cyangwa se bakagurisha, ibintu bitandukanye, harimo imyenda, amasahani, intebe, ndetse n'ibindi.

Inzu nini ya resitora irimo intebe nziza zitandukanye, ameza meza atandukanye ndetse inzu nziza y'uburanga ibereye kuyireba, ifite inkingi imbere ziriho amabara atandukanye.

Umuntu utwaye moto yambaye imyambaro y'ubutwazi bwa moto, ijire na kasike, ahetse umugabo munini cyane, si we wenyine, inyuma ye hari izindi moto nyinshi ndetse n'ibindi binyabiziga bitandukanye.

Umumotari uri mu muhanda w'amabuye, utwaye wenyine nta muntu ahetse uwo twakwita umugenzi, yambaye kasike ndetse imanuriye mu maso, indi ayifite mu kuboko iyo yaha umugenzi igihe amubonye.

Umutwazi w'ikinyabiziga cya moto, wambaye ikote yicaye kuri moto ndetse yambaye na kasike, ari mu muhanda wa kaburimbo ageze hafi y'inyubako itanga ibicuruzwa by'inzoga, bizwi nka pirimusi.

Umumotari atwaye moto muri kaburimbo, yambaye imyambaro y'akazi, ariyo ijire na kasike, ahetse umugenzi w'umukobwa, wambaye ipantaro y'umukara, agapira k'umutuku kandi nawe yambaye kasike.

Umunyonzi ari mu muhanda wa kaburimbo, ahetse undi mugenzi wambaye ikote ry'ikigina, ipantaro y'ikoboyi, ingofero y'umutuku ndetse afite n'agapapuro mu ntoki.

Ubutwazi bw'igare mu muhanda wa kaburimbo, aho utwaye igare ari imbere undi akaba ari inyuma uhetswe nk'ibisanzwe, umuhanda wa kaburimbo nta murongo w'umweru urimo ni umukara gusa.

Ubutwazi bwa moto aho umumotari ahetse umuntu na we ufite akazigo mu ntoki, bose yaba umumotari ndetse n'uwutwawe bambaye kasike nk'igikoreshwa gikoreshwa n'abamotari kirinda abantu mu gihe habaye impanuka.

Umuntu utwaye ikinyabiziga cya moto yambaye ishati y'umweru irimo utuntu dutandukanye kandi yambaye kasike, atwariye mu muhanda urimo amabuye, imbere ye hariho inzu nini y'ubu igaragara nk'iy'ubucuruzi kandi ifite amahema hanze.

Umuntu utwaye ikinyabiziga cya moto, uri mu muhanda wa kaburimbo, yambaye ishati ijya gusa n'ubururu bw'umweru kandi yambaye na kasike, inyuma ye hari inzu nini cyane, ifite imbere afite agasongero karekare gasumbye inzu.